Umupolisi urimo kuvugira ku ndangururamajwi hari abagabo babiri bahagaze impande ze zombi bafite ibyapa byanditseho gerayo amahoro, inyuma yabo hari agatuti gakoreshwa n'ujyiye kuvuga igihe ashaka kugakoresha ndetse kari mu ihema bahagaze mu byatsi bose bakurikiye umupolisi abaganiriza.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse hirya hari agahanda k'abanyamaguru, hari n'abakobwa bane barimo kugenda baganira ,hirya yabo hari inzu ndetse n'igipangu iyo nzu ifite umuryango ,muryango ndetse n'idirishya umwe muri abo bakobwa agendera muri kaburimbo.

Umuhanda wo mucyaro wubakishijwe amabuye ndetse n'aho abanyamaguru bagenda bifashisha kugendera batagenda bagongana n'ibinyabiziga binini, n'uduhanda dutoya two ku mihanda minini ya kaburimbo.